Ikigo cy'ubudehe gikunze gufasha abaturage batishoboye, kikaba cyabaha amatungo harimo amagufi ndetse kikaba cyabaha n'inka, bityo bakagenda bakiteza imbere bakazateza imbere n'abandi.

Buri vuriro ryamaze kugira imodoka imwe ya ambulance kubera ko iyo umurwayi akeneye serivisi zihutirwa nko kuba yajyanwa ku bindi bitaro bikuru, ni yo modoka akoresha kugira ngo ashyikirizweho ku gihe.

Urubyiruko rugomba gufata iya mbere mu kujya mu kigo gishinzwe gutabara abantu, kikabaha ubutabazi bw'ibanze kubera ko habakenewe imbaraga ndetse n'abantu babishoboye bafite n'ubwo bushake.

Ahatangirwa serivisi zo kwa muganga ikintu cya mbere kigomba kuharanga ni isuku kubera ko hatari isuku byo byakurura izindi ndwara zigiye zitandukanye abantu batazapfa baboneye umuti n'urukingo.

Muganga agomba gutanga raporo, mbere y'uko avura umurwayi a abanza kwandika amakuru ku bijyanye n'uburwayi bwe kugira ngo iyo raporo igihe cyose bayimubaza abe yabasha kuyitanga kandi ku gihe.

Ni byiza ko Isi yose buri mwaka yizihiza umunsi wo kurwanya icyorezo cya Mabaga kubera ko cyazengereje Isi cyane ndetse kiyivugisha amagambo menshi, ariko ubu cyamaze kubonerwa urukingo.

Biba byiza iyo abakozi mbere yuko bajya mu kazi, babanza guhurira hamwe bakagira ibyo baganiraho bijyanye n'akazi kabo kuko ibi ngibi bituma akazi kagenda neza kandi bunguranye ibitekerezo.

Igihe cyose wagize ikibazo, nko gukomereka ndetse n’ibindi, sibyiza ko wicira inzira ngo ube wakwishyiraho ibintu bigiye bitandukanye, ahubwo ugomba kujya kwa muganga akaba aribo babikora.

Igihe umuntu yagize ikibazo agakomereka cyangwa agahura n'indi mpanuka bakamuha akagare, si byiza ko tumutererana ,ahubwo igihe tumubonye tujye tumwitaho kuko nawe ni umuntu nk'abandi kandi yatekereza nk'abandi.

Abantu bakunze gukoresha kamera, bakundaga gufotora ahantu habereye ikintu runaka kugirango ngo n'abatari bahari baze kuba bakimenya, bityo amakuru asakara ahantu hose n'abandi bayamenya.

Ubutabazi bw'ibanze kwa muganga buba bukenewe nko kuba wajyana umuntu kuri burakari kugira ngo umukorere ubutabazi agere kwa muganga vuba kandi bamukurikirane, bamuvure akire igihe bamaze kumusuzuma ndetse no kumupima.

Igihe twitabiriye ibikorwa birimo nko kuba twagirwa inama cyangwa twahugurwa, tugomba kubishyiraho umutima wacu wose kugira ngo twumve, ibyo twagiyemo kandi bibe byatugirira akamaro.

Akayira kaba gasakariye kajyana umuntu aho akeneye serivisi kagomba kuba gasukuye kugira ngo hahore hasa neza kuko ahantu hadasa neza hakunze kuba hakandurirwa n'indwara.

Igihe umuganga afite ibikoresho byose byabugenewe ndetse yanambaye impuzankano ye, agomba gutangira akazi nk'uko biteganjwe kuko buri kimwe cyose aba acyujuje kandi yariteguye ko yakora akazi.

Mbere y'uko abaganga batangira kuvura umurwayi bagomba kwambara imyenda yabugenewe n'udupfukamunwa tubarinda, kugira ngo bakore uwo mwuga bizeye neza ko ari nta kintu cyabangiriza ubuzima kirimo nko kuba bakandura.

Abaganga na bo bagomba kujya inama mbere yuko bavura umurwayi, bakabanza bakagira ibyo bahuza, nyuma yo kubihuza bakaba bemerewe kuba bamuvura noneho kuko nta kibazo biba byateza baba babyizeho neza.

Muganga niwe wenyine ufite uburenganzira bwo kwita ku murwayi kandi akamenya icyo akeneye, ku gihe. Bityo rero nta wundi wemerewe gukora ibyo ngibyo atabifitiye ubumenyi kuko ashobora guteza ibindi bibazo.

Ntako bisa kuba ushinzwe umutekano w'igihugu, ndetse ukaba unafite ubundi bumenyi mu bijyanye no kuba wavura abarwayi, kubera ko ukora inshingano ebyiri kandi ugakora nk'ukorera igihugu.

Niba kwa muganga hari ibikoresho abaganga bashobora kwifashisha bapima indwara, bivuze ko ibyo bitaro biba byaramaze gutera imbere kuko ahantu hateye imbere harangwa n'ikoranabuhanga.

Iyo muganga ashaka kugusuzuma neza, abanza kugushyiraho icyuma kiguhambira ukuboko maze agapima ngo arebe niba nta mivuduko urwaye ndetse abone aho ahera akuvura.

Igihe cyose hari umuntu uri imbere yacu arimo aradusobanurira tugomba kumutega amatwi tukumva ibyo atubwira kuko aba ari ingirakamaro, birababaje kuba wabaje mu nama ugataha nta kintu na kimwe ukuyemo.

Ikoranabuhanga ryageze ahantu hose ndetse no kwa muganga usanga bakoresha ibyuma ariko udafite ubumenyi kuri byo ukaba utamenya icyo bikora, bityo rero bikoreshwa n'ababyigiye gusaba babizi.

Niba kwa muganga hari ibitanda byabugenewe birambikwaho abarwayi si byiza ko n'umurwaza yarara kuri icyo gitanda kuko akirayeho bishobora gutuma hari umurwayi uza akabura aho ashyirwa.

Kwa muganga bari ibitanda byabugenewe bishyirwaho abarwayi ariko usanga akenshi umurwaza bamubuza kuba yakwicara kuri ibyo bitanda kubera ko byagenewe abarwayi bonyine kuba ari bo babyicaraho.

Buri bitaro cyangwa ivuriro, rigomba kujya rifata umunsi umwe byibura mu cyumweru, rigatumizaho inama bakaganiriza ku baturage ku bijyandanye n'ubuzima kugira ngo hirindwe indwara zitakabaye zibafata.

Umurwayi wese agomba kwitabwaho ageze kwa muganga, yaba arembye cyane agahabwa igitanda kugira ngo akomeze akurikiranwe, maze bagasuzuma ibyo arwaye nyuma bakaba bamuvura agakira.

Ibipimo byose by'ingenzi muganga agomba kuba abifite kugira ngo asuzume umurwayi, icyo gihe iyo ibikoresho yamaze kubyegeranya nibwo twavuga ko aba afite uburenganzira bwo kuba yavura umurwayi.

Abaganga baba bafite mikorosikopi, ni ukuvuga ngo igikoresho bapimamo umurwayi, bakareba icyorezo yaba abarwaye cyangwa ibindi yaba arwaye bakoresheje icyo gikoresho cyabugenewe.

Igihe ugiye gukoresha umuti, banza usome amategeko n'amabwiriza awugenga kugira ngo wirinde kuwukoresha nabi. Wagera mu mubiri ukaba waguteza ibindi byago kuruta uko wabikiza.

Umuganga wakoze akazi ke neza nta kintu cyamubuza kwishima ndetse iyo abona abarwayi avura bamuha ubuhamya ko bakize, nawe biramushimisha akumva ko ibintu akora abyishimiye.

Umuganga ahantu yemerewe kuba yajya kwigira ndetse akavumbura n'ibindi bishya ni mu cyumba cyagenewe gukorerwamo imiti ndetse no gushakiramo ibindi bimenyetso cyane cyane nko kuba bavumbura icyorezo runaka cyavutse bakaba bagishakira imiti.

Iyo umuganga amaze kugusuzuma akagufata amaraso, ayashyira muri mikorosikopi, akareba kubera ko ariyo ifite ubushobozi bwo kureba ibintu bito cyane bitagaragara n'amaso yacu, akaba yabona icyo umurwayi arwaye.

Abagore nabo aho bari bajye batinyuka kuko barashoboye, bamaze guhabwa uburenganzira bwose ndetse ari umugore n'umugabo ntawe ugisumba undi, niyo mpamvu bagomba gukora ibikorwa nk'iby'abagabo.

Igihe inama runaka cyangwa amahugurwa yabaye akarangira, hagomba gufatwa ifoto y'urwibutso kubera ko ibi bigaragaza igikorwa mwakoze mukajya muhora mubyibuka.

Umwarimu igihe abona abanyeshuri be ari kwigisha batangiye kurambirwa isomo rye agomba kubajyana hanze akabakoresha udukino tugiye dutandukanye maze ubundi bakongera bakamwiyumvamo bakagaruka bafite imbaraga ndetse baruhutse.

Si abaganga bose bavura abana batoya cyane, ahubwo buri muganga aba afite itsinda ahagarariye ndetse n'abo agomba kwitaho kuko si ibya bose kwita ku bana bakivuka.

Abantu bajye bahinga cyane ubwoko bugiye butandukanye bw'imbuto kubera ko abantu benshi barazikenera, bityo bajye bijyana ku isoko buri wese yibonemo n'utarabashije kuba yabihinga.

Leta y'u Rwanda imaze kubona ko bikenewe ko n'abana batoya bahabwa amafunguro ku ishuri byorohereje akazi ababyeyi kuko wasangaga umubyeyi ava mu murima igitaraganya ajya gushakira ibyo kurya abana ariko ubu baramworohereje.

Ubusitani bwiza bukunze kugaragara ahantu nko kwa muganga, kubera yuko ni ahantu hagomba kuba hari isuku, bityo hatabaye isuku haba hari izindi ndwara zitandukanye kubera abarwayi bahorayo.

Buri mubyeyi wese afite inshingano zo kujya mu mahugurwa yagenewe ababyeyi, kugira ngo yumve ibyo bamubwira birimo nko kuba yaringaniza urubyaro, kandi ibi bikorwa ababyeyi bombi bahari.

Kujya inama muri byose bituma umuntu agira icyo avaho akagera ku kindi, kubera yuko ibintu byose ubyitekerereje, ntushobora kubikora neza ijana ku ijana nk'uko wabikora ugiriwe inama.

Kera hakundaga kubaho akagoroba k'ababyeyi bityo bakicara bakaganira bakajya inama ku bintu bitandukanye, haba hari n'umuntu wananiranye mu muryango, bakaba bamukebura akongera agasubira ku murongo.

Iyo muganga agiye kuvura umurwayi hari icyumba cyabugenewe umurwayi agomba gusangamo muganga ubundi akamusobanurira neza uko yafashwe ndetse n'igihe byatangiriye kugira ngo muganga abone aho ahera amuvura.

Igihe hari ibigo runaka byaje kudushishikariza serivise zabyo n'abaturage tugomba gufata iya mbere mu kwitabira kugira ngo twuve icyo batubwira kuko akenshi ntibaba bazanywe n'ubusa ahubwo hari ibyo baba batuzaniye by'ingenzi.

Abaturage bajya bashishikarizwa ibintu bijya bitandukanye birimo kwita ku buzima bwo mu mutwe kuko abenshi ntibakunze kubyitaho ngo nibumva hari ikintu cyahindutse muri bo bajye kwa muganga babarebere.

Hari imiti y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, ipakirwa mu mifuka ndetse ikabikwa n'ahantu habugenewe kugira ngo itangirika, kuko ahantu hose haba hashyushye cyangwa hakonje siko habikwa.

Abanyamaguru bajye birinda gukora amakosa mu muhanda yo kugenderamo kuko baba bafite inzira zabo bagenderamo, bityo n'imodoka ikagira izayo, si byiza rero kuzikoresha zombi.

Mu gihe umurwayi yandikiwe imiti, si byiza ko anywaho mike iyindi akayireka ngo ni uko aze kuko indwara iki ari uko ibinini bakwandikiye byose ubimaze.

Iyo umuntu acuruza muri farumasi, agomba kuba afite imiti y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye kugira ngo umuntu naza kuyishaka yose ayibone kandi akaba abisobanukiwe ku buryo umuti wase aba awuzi.

Imiti y'amatungo igomba kubikwa ahantu heza mu ducupa twiza kandi ikagenzurwa neza niba aho hantu ishyizwe nta mwana muto wahagera kuko abana bato barakubagana cyane.

Ni byiza ko igihe uri muri farumasi ucuruza imiti, ugomba kuba wambaye imyenda yabugenewe nk'iyo muganga aba yambaye cyane cyane nk'itaburiya kuko bituma bigaragara neza.

AFarumasi nziza ni iyirimo imiti yose. Umuntu yayikenera, akaba aza aho aribuyishakire, bitamusabye gukora urugendo rurerure, ajya kwa muganga se cyangwa ahandi.

Muri farumasi imiti y'ubwoko bumwe ibikwa hamwe, ndetse kandi ikabikwa aheza ku buryo hatagira ikintu icyo ari cyo cyose cyaza kikayangiriza.

Farumasi y'ibanze cyangwa farumasi y'ingenzi igomba kuba irimo buri muti wose umuntu yakenera kuko ni cyo gituma abantu benshi batajya kwa muganga bakayigura.

Niba tugiriwe amahirwe tukaba dufite farumasi itwegereye, si ngombwa ko dutakaza umwanya wacu mu gukoresha imiti gakondo, maze tugacika kubya kera kubera ko turi mu iterambere tugakoresha iby'ubu.

Iyo abaturage begerejwe farumasi hafi yabo, bajya kuguramo imiti igihe bumva barwaye cyangwa se kwa muganga baba babuze imiti igiye itandukanye, bakaboherereza muri iyo farumasi, bakajya kuba ari mo bayigura.

Buri mwaka, igihuguhugu cyacu ndetse n'isi yose muri rusange bagira umunsi wahariwe kurwanya ndetse no kwirinda malariya, kubera ko bazi ko ihitana ubuzima bw'abantu benshi kuri iyi si buri mwaka.

Uburyo bwiza bugezweho ni ubwo gushishikariza abantu kuba bakina bakanirinda, ibi ngibi bishatse gusobanura ibintu byinshi, ushobora gukina ukoze siporo ndetse ukaba unarinze ubuzima bwawe kuba bwagerwaho n'indwara zitandukanye.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo nka mudasobwa, muganga ntakwiye kubibura iruhande rwe kuko n'ubushakashatsi ajya anyuzamo akabukora mbere y'uko atanga imiti runaka.

Umuganga mbere y'uko yita ku barwayi, ni byiza ko abanza kugira ikiganiro gito abahereza maze bakamenya uko bari buze gukurikirana, ko byagaragaye ko abantu bakunda gutanguranwa ugasanga udafite imbaraga abigendeyemo.

Gahunda yo kwegereza udukingirizo urubyiruko, ikomeje gutera imbere. Kubera ko bamaze kumenya yuko urubyiruko kwifata bikomeje kurugora. Bityo rero bagahitamo ubwo buryo bwiza kugira ngo rwirinde SIDA.

Twamenye neza ko ubwandu bwa Sida bwamaze kwiyongera, kuruta uko byari bimeze mbere bityo urubyiruko nitwe tugomba gufata iya mbere twirinda iki cyorezo kubera ko bigaragara ko ari twe tubyirohamo kandi igihe bitunaniye tujye dukoresha agakingirizo.

Tujye tuba nk'abantu basobanutse igihe turi kumva imbwirwaruhame, biba ari byiza kuba twakwitwaza ikayi n'ikaramu kugira ngo twandike ibyo batubwiye bityo tujye duhora tubizirikana kuko inyandiko ntisaza.

Niba hari ikiganiro runaka kiri bube cyane cyane cy'ijwi ry'umurwayi n'uruhare rwe mu bikorwa ndetse n'ibimukorerwa, ugomba gushyiraho amafoto y'abaribukibagezeho ndetse naho kiri bubere n'isaha n'igihe naho bibera.

Biba ari byiza kureba urubyiruko rwo mu myaka nk'iyi rwicaye hamwe ruhujwe n'ibikorwa bya leta hanyuma basoza kubikora bakaba bafata ifoto y'urwibutso bazajya bibukirwaho.

Imiti gakondo yakunze gukoreshwa kera ariko ubu ngubu ntabwo igishyirwamo imbaraga nka mbere, kuko wasangaga ari nta muntu utekereza kuba yajya kwa muganga igihe yarwaye, ahubwo bumvaga bakivura.

Iyo nitegereje amatungo magufi cyane cyane ihene, akunda kurya ibitovu. Nyamara wowe ntushobora kugifatisha amaboko yawe kubera ko iyo kirimo amahwa gishobora guhita kikujomba.

Imwe mu miti gakondo yakoreshwaga cyane n'abantu ba kera yabaga irimo umuravumba, uyu bawukoreshaga cyane cyane umuntu arwaye inkorora kuko inkorora yahitaga igenda igakira.

Ni byiza ko imiti gakondo tuyibungabunga kugira ngo ibe yatunganywa ishyirwa hamwe, maze ikorwemo indi miti igiye itandukanye dukoresha mu kuvura indwara zananiranye.

Ibitaro bya Gatunda bikunze gusurwa n'abayobozi bakomeye, bamwe muri bo baba baje kureba niba serivisi zitangwa neza, bityo bagira aho basanga zidatangwa neza bakaba babibabwira bakazikosora.

Si byiza ko kwa muganga abantu batonda umurongo bahagaze, hakabaye hashyizwe intebe bicaraho kuko umurwayi ntashobora guhagarara igihe kirekire yakwitura hasi.

Ntacyabuza muganga kwishima igihe abona ko inshingano ze yazikoze neza, maze umurwayi yamuvuriye ku gihe kandi, akizera neza ko umurwayi azakurikiza amategeko n'amabwiriza yamuhaye.

Igihe muganga abonye ko umurwayi akeneye serumu agomba kuyimwandikira ndetse akayikoresha kugira ngo uwo murwayi yongererwe iby'ingenzi akeneye mu mubiri we.

Si byiza ko kwa muganga, abaje kwivuza cyangwa ku yandi mavuriro, bagomba kuza babyigana, batonda imirongo kuko haba harimu abifiteye intege nke, bashobora kuhirirwa kandi baje imbere y'abandi.

Abashinzwe gukora muri service z'ubuvuzi ,ni byiza ko bakora ubushakashatsi kugira ngo indwara izajya iza bajye baba bayimenye, kandi bahite bamenya uburyo bayirinda Abanyarwanda itari yabazahaza.

Buri koperative cyangwa abandi bantu bakoze umushinga wo kwibumbira hamwe bagomba kuba bafite inyubako zabugenewe nk'urugero kwa muganga iyo uhageze urabihasanga.

Igihe aya matungo yacu yarwaye ni byiza ko duhamagara umuganga w'amatungo, akaba ari we uza gupima ngo arebe icyo ayo matungo yabaye, bityo amenye n'umuti wabugenewe agomba guha ayo matungo.

Ababyeyi bagomba gufata iya mbere mu kwita ku buzima bw'abana babo bagakurikirana niba umwana afashe inkingo zose kandi bakirinda kubika ariho hose ifishi y'umwana kuko ikenerwa buri gihe.

Umubyeyi wese ashimishwa no kubona umwana we ameze neza kandi abona ibyo amugaburira mu buzima bwe bwa buri munsi, kubera ko iyo umwana abayeho neza nshimisha n'umubyeyi.

Kujya inama mbere yo gukora ikintu kw'abaganga burya na byo birafasha kubera ko ikintu icyo ari cyo cyose iyo mukiganiriyeho murenze umwe mwungurana ibitekerezo kandi ibyo bitekerezo biba ari ingenzi.

Buri kigo kigomba kuba gifite inzu gikoreramo kugira ngo uwo muntu ukeneye serivisi zacyo aze abagana kandi babona ko bafite n'ibiro bakiriramo abo bose baje babagana kugira ngo bahabwe izo serivisi.

Bya bintu byose bigaragara ku kigo cya gira ubuzima, tugomba kujya tubisoma neza kuko biba biriho uburyo wakwirinda kurwaragurika ndetse n'uburyo hagira ubuzima bwiza binyuze mu gufata indyo yuzuye.